Abakorera umurongo w'itumanaho wa Emutiyeni, bahagaze hamwe munsi y'umutaka w'umuhondo ndetse barimo baganira, bakikijwe n'ibinyabiziga ndetse n'inyubako zindi z'ubucuruzi.

Akazu gatukura kariho ibirango bya Airtel, ndetse kaba karimo abashinzwe gufasha abakiriya kumenya, ibijyanye na Airtel ndetse bakabasubiza, ibibazo byose bafite ku bijyanye n'umuyoboro wa Airtel.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'undi wambaye umwenda wabugenewe w'abatanga ubufasha ku bafite ibibazo bigendanye n'umuyoboro wa MTN ndetse bahagaze munsi y'umutaka uriho ibirango bya MTN.

Abakozi bakuru ba MTN cyangwa se abayihagarariye, barimo bahereza impano umunyamahirwe watsindiye impano zo muri MTN ndetse n'ibindi bitandukanye.

Akazu MTN gakunze kuba gateretse ku muhanda akenshi, aho ushobora gusanga umuntu mo imbere akagufasha mu bijyanye n'itumanaho rya MTN, ku bibazo waba wibaza byose.

Akazu kariho ikirangantego cya banki yitwa Equity aho umuntu ashobora kujya kubikuriza amafaranga cyangwa se gusaba ubundi bufasha bujyanye na yo, atarinze ajya ku cyicaro gikuru cyangwa se ajya kure.

Ahari urujya n'uruza rw'abantu bahagaze imbere y'utuzu turiho ibirango bya airtel ndetse na MTN barimo baraka ubufasha ku bigendanye n'umuyoboro wa MTN cyangwa se wa airtel.

Umugabo ukuze wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara uhagaze imbere y'akazu gatangirwamo ubufasha bujyanye n'umuyoboro wa MTN arimo asaba ugakoramo kuba yamufasha nawe akamukemurira ibibazo bijyanye n'umuyoboro wa MTN afite.

Umukobwa mutoya w'urubyiruko, ufite ikarita arimo arashyira ku cyuma cyabugenewe babikuriraho amafaranga aho waba ugeze hose, aho cyaba kiri ku muhanda, utabanje kujya muri banki cyangwa se mu nzu zibikwamo amafaranga z'Igihugu.

Umumama uteze igitambaro ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo uri mu kazu kariho ibirango bya MTN, ukorera MTN, arimo arakira amafaranga, umumama amuhereza kugira ngo abashe kuba yamuha ubufasha bujyanye n'ibyo akeneye ku muyoboro wa MTN.

Akazu k'umutuku karirimo ibirango bya Airtel ahatangirwa ubufasha bunyuranye bugendanye n'imiyoboro ya Airtel ndetse n'ibindi byinshi waba wibaza ku muyoboro wa Airtel.

Abahungu ndetse n'abakobwa bicaye mu kameze nk'umutaka ndetse gafite aho bicara, bambaye amajiri y'umuhondo ariho ibirango bya MTN ndetse n'umutaka uriho ibirango bya MTN.

Akazu ka MTN gatanga serivisi zigendanye n'imiyoboro ya MTN yose ndetse hahagaze umugore urimo usaba serivisi za MTN no hirya hicaye umugabo ndetse n'imbere hicayemo umuntu uri gutanga serivisi za MTN.

Umugabo uri ku ruhimbi munsi y'umutaka, uriho ikirango cya Airtel, ufite isakazamajwi, urimo ususurutsa abamureba kandi ababwira ibabwira serivisi nshya za Airtel.

Umugabo ukuze, ufite itumanaho rya terefone ngendanwa mu ntoki ndetse inyuma ye hari abantu benshi, haragaragara n'imitaka minini iriho ikirango cya Airtel.

Umugore wunamye arimo gutoragura amagi hirya no hino aho inkoko ze zagiye zitera mu nzu zibamo yabugenewe, kandi harimo utudobo dutoya twubitse, inkoko ziriramo bazishyiriramo ibyo kurya.

Icyapa kigaragaza ko banki ya Equity ikorera aho hafi kandi ushobora kwinjiramo ugasaba ubufasha bugendanye n'ibyo ukeneye utiriwe ujya ku cyicaro gikuru aho giherereye hose.

Abagabo batari bakeya, bikorera imizigo, barimo bashyira imifuka mu modoka nini kugira ngo ibashe kuba yayivana aha ikayijyana aho igomba kwerekeza iyo mizigo.

Umugabo mukuru wiyubashye ndetse ukikijwe n'abantutu bambaye imipira y'ubururu iriho ikirango, bahagaze ari benshi bakikije umubyeyi ufite inanasi imbere ye.

Abantu benshi batandukanye barimo abanyamahanga ndetse n'ab'imbere mu gihugu, bahagaze imbere y'udukopo dutoya turimo ubuki ndetse n'utujerekani twuzuyemo ubuki bwinshi.

Inzoga zitandukanye z'amabara menshi kandi z'ubwoko bwinshi butandukanye, zikunze gucururizwa mu tubari twinshi, twaba utw'i Kigali cyangwa se utwo mu Ntara zinywebwa n'abantu batari bake.

Icyapa kiriho abantu basusurukijwe n'inzoga ifite izina rya sikoro gatanu, kandi inywebwa n'abatari bake bagasusuruka, bakanezerwa kandi bakishima.

Ahacururizwa inzoga hazwi nk'akabari ndetse hasa neza, hari intebe zitondetse ku murongo zicarwaho n'abakiriya iyo baje gufata kamwe bicaye imbere.

Iduka rigaragaramo ibitenge byinshi, rimanitsemo amakanzu meza y'ibitenge ndetse n'amasakoshi y'ibitenge n'imitako ndetse hari n'imitako y'ubudodo iboshye imanitse ku rukuta n'amafoto ari mu makadere.

Amaherena n'indi mitako bikoreshejwe ibitenge n'ibitambaro gakondo, biri mu gitebo ndetse bikikijwe n'amashakoshi adoze mu bitenge n'imyambaro idoze mu bi bitenge.

Aha hagaragara inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye kandi zubatse ku murongo, zigiye zirimo ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, birimo ibibora ndetse n'ibitabora.

Ahacururizwa ibiribwa ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye bigiye birambitse ku tuntu tw'utubati tw'umweru twabugenewe, ibicuruzwa birimo ibisuguti, imitobe ndetse n'ibindi.

Uko bakoresha riyeri bakazwi ku izina rya mukushi, gasa ibara ry'iroza, ku ruhande hari amakaramu agaragaraho afite ibara ry'icyatsi n'iry'ubururu, ndetse hejuru haragaragara korogate ikoreshwa mugukesha amenyo.

Ahari ibicuruzwa birimo udupfukamunwa ndetse n'ibikoreshwa byoza ibyombo, bikomeye harimo amabara atandukanye; harimo umuhondo, ibara ry'idoma, ubururu, icyatsi ndetse n'andi mabara atandukanye.

Umugore wicaye hagati y'ibicuruzwa bye, wambaye agapfukamunwa kamurinda uburwayi butandukanye bwandurira mu mwuka ndetse akikijwe n'imifuka irimo ibiribwa n'indagara, ubunyobwa, inyuma hari amavuta ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Isoko rigaragaramo abantu batandukanye bagurisha imyenda ndetse n'amamashini akoreshwa mu budozi, inyuma hamanitse amakanzu y'ibitenge kandi hahagaze n'abagabo barimo bashaka kugura.

Umubyeyi wishimye kandi urimo useka, uhagaze aho acururiza ibintu bigiye bitandukanye, birimo ibiribwa, imyambaro nk'ibitenge, ibinyobwa, ndetse n'ibindi byinshi.

Akabati kariho ibirahuri byamenaguritse, harimo n'ibyitwa ibiraha abantu bakora bakoresheje ifarini ndetse n'ibirayi bitetse bitogosheje, ndetse inyuma hari n'umumama urimo uragurisha imbuto ku gataro.

Abantu benshi bahagaze imbere ya kiliziya barimo abamama, abapapa, abakuze ndetse n'abatoya bahagararanye na padiri barimo bifotoza.

Abantu benshi barimo barasenga bifatanyirije hamwe mu rusengero higanjemo abagabo n'abagore, abakobwa n'abasore ndetse bamwe muri bo barapfukamye bashyize amaboko ku dutebe dutoya.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe y'abapadiri bambara bagiye kubwiriza abantu ku ruhimbi cyangwa se kubigisha ubutumwa bwiza kandi afite inkoni mu kiganza cye cy'ibumoso.

Abapadiri batatu bari kuri alitari babiri birabura ndetse n'umwe w'umuzungu, barimo barasoma misa bayisomera abakirisitu barimo barabumva imbere yabo.

Aha haragaragara abaturage bicaye mu twatsi ndetse bicaye ku mirongo batandukanye bameze nk'abari kwirinda uburwayi runaka cyangwa se icyorezo runaka kandi bameze nk'abari guhabwa amabwiriza.

Abantu benshi bahagaze mu mbuga ya kiliziya, bigaragara ko baje gusenga cyangwa se kwiyambaza imana, ku bayizera ndetse kiliziya ifite umusaraba imbere n'icyapa ku ruhande kandi ni nini cyane.

Inzu ndende kandi nini igeretse, ifite pisine isa neza y'ubururu imbere yayo ndetse hirya hagaragara udutebe abantu baruhukiraho bavuye mu mazi koga, n'utwatsi dusa neza n'amajaride.

Hoteri cyangwa se aho abantu basohokera kugira ngo baruhure mu mutwe ndetse bishimishe, ifite amazi meza y'ubururu, udutaka abantu bicara munsi bavuye mazi kugira ngo izuba ritabica ndetse n'ikirere cyiza.

Ubwiherero bugezweho bwa kizungu, bwicarwaho, ndetse bufite n'aho kogera hasukuye hasa neza, ndetse bufite n'aho bogera bicayemo, kandi amazi akamanuka.

Akabari gasa neza katarimo abantu, imbere haragaragara ibiti by'imbaho, biri hejuru ku gisenge ndetse n'akabati karimo amayoga y'ubwoko bwose.

Icyumba cyo gucumbikamo gisa neza, kirimo amatara menshi kandi gishashe neza, hirya hagaragara intebe abantu bakicararaho baganira cyangwa se imeza abantu bakicaraho barimo barya.

Amazi asa neza, afite ibara ry'ubururu, ndetse akikijwe n'udutebe twiza abantu bicaraho iyo bavuye mu mazi, ndetse hari n'agataka gatuma aba hicaye izuba ritabageraho.

Icyumba gicumbikwamo gishashe neza n'amashuka y'umweru ndetse kitatse neza kandi imbere hari indorerwamo umuntu yakwireberamo aramutse abikeneye, hejuru hamanitse inzitiramibu y'imibu.

Ifunguro rifatwa mu gitondo ryiganjemo: amagi, umugati ndetse n'icyayi, ku ruhande hari ibyifashishwa kugira ngo umuntu abashe kuba yarya ndetse biteretse ku meza byose.

Icyumba gisa neza gisashe neza, gisashishijwe amashuka asa ubururu n'umweru, ndetse n'icyo kwiyorosa gifite ibirabo bitandukanye, mu cyumba hasa neza hateyemo irangi ry'umweru.

Ahazwi nko muri hoteri mu ndimi z'amahanga, hagaragara isuku nyinshi ihagije ndetse hatatse, mu buryo bugezweho, ku buryo abagana bose, babona ko isuku ihari ihagije.

Ubwiherero busa neza kandi busukuye, bufitemo n'aho bogera ndetse n'aho bakarabira intoki bavuye gukoresha ubwiherero, hamanitsemo n'amasume asukuye.

Aho abantu basohokera baje kwishimisha cyangwa se kurira, hasa neza, hasukuye, hari intebe nziza, abahagana bakicaraho bakanezerwa ndetse naho bakirira abantu babagana hasukuye.

Icyumba gisashe neza kirimo igitanda kiriho amashuka y'umweru ndetse n'imisego myiza itatse neza, uburiri busashe neza ndetse n'intebe ku ruhande umuntu yakwicara.

Umubyeyi urimo ugenda mu muhanda yikoreye imyenda, afite indi mu ntoki ndetse no ku maboko ye yatamirijeho indi, agenda acuruza ku bantu ahura na bo.

Ahagaragara ikinyabiziga cya moto cy'amapine abiri ndetse hirya haragaragara urujya n'uruza rw'abantu, barimo bacuruza ibiri hasi, imyenda n'ibindi bintu bitandukanye babishyize hasi.

Umugabo uhagaze uririmo ucuruza inkweto ze ku muhanda ndetse hari umugore urimo ushaka kugura inkweto umwana we, hirya no hino hamukikije hagiye hari amashitingi nayo acururizwamo.

Umubyeyi wambaye ingofero ndetse n'ikanzu y'igitenge usa nk'uje guhaha, mu isoko ahacururizwa imyenda y'ubwoko butandukanye, igiye imanitse, bitewe n'umucuruzi n'aho akorera.

Ibiribwa bitera imbaraga bizwi ku izina ry'ibijumba ndetse bitukura, biteretse hasi bigiye bifunze mu matsinda mu matsinda, ari nako bigurishwa buri tsinda ukwaryo.

Urujya n'uruza rw'abantu bakikijwe n'amazu y'ubucuruzi, ndetse n'amamodoka yikorera imizigo iremereye, ndetse n'abikoreye imizigo, amagare, amamoto, ndetse n'ibindi binyabiziga.

Ahari urujya n'uruza rw'abantu hagaragaramo abamotari batwara abagenzi, abikoreye imyaka ku mutwe, abarimo batambuka mu nzira ndetse n'inzu z'ubucuruzi ziganjemo amabutiki.

Urujya n'uruza rw'abantu, bahagaze abandi bagenda, bashungereye ibintu runaka ndetse hari ibitoki birambitse hasi n'ubundi bucuruzi bukorerwa ku muhanda, hari ibitoki bihetswe n'amagare ndetse hari n'ibinyabiziga nka moto.

Aha hagaragara isoko ry'ibiribwa ririmo abantu benshi, abahaha ndetse n'abacuruza, hari inyanya, hari ibitunguru, ndetse hari n'ibitwikirije amashitingi kugira ngo batabyiba.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze ku muhanda barimo bacuruza imyenda itandukanye, ndetse hari n'abashaka kugura, inyuma hari abandi benshi bamanitse imyenda yabo nk'ibicuruzwa, kandi hari n'abayigura.

Isoko rusange ririmo urujya n'uruza rw'abantu, harimo abacuruza amagi mu muhanda, hari abacuruza ibikoresho byo mu rugo bitandukanye, ndetse n'ibiribwa hirya no hino.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo bagenda mu muhanda w'ibitaka ndetse n'amazu y'ubucuruzi butandukanye, harimo: amamatera, indobo, amabase, intebe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Imbabura zikoreshejwe mu buryo bw'ibumba ndetse n'ibyuma, imbabura zaka cyane kandi zikoresha amakara atari menshi ndetse n'inyuma haragaragara izikoresheje ibyuma bikomeye kurushaho.

Aha haragaragara ibyombo byifashishwa mu rugo harimo ibikombe, amasahane, amasafuriya ndetse n'indobo zo gukoresha. Ibi byifashishwa mu rugo hakorwa imirimo inyuranye nko guteka, kunywerwaho cyangwa kurirwaho.

Umusore muto urimo ucuruza ibiribwa bitandukanye, imbere ye mu mabase ndetse hirya hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, ari aba haha mu isoko ndetse n'abacuruza bacuruza ibicuruzwa byabo.

Ikinyabiziga cya moto gihagaze mu muhanda w'igitaka ndetse inyuma haragaragara agasoko gatoya, kamanitsemo ibicuruzwa bitandukanye by'imyambaro ndetse hirya no hino haramanitse ibintu byinshi bicuruzwa.

Resitora idekuye neza isa neza, harimo intebe nyinshi kandi nziza, hagaraga isuku ndetse hamanitse amatara asa neza, harimo abashinzwe gutanga ibiryo ku bakiriya basa neza kandi basukuye.

Umukobwa n'umumotari barimo bavugana, baseka kandi bameze nk'aho agiye kuba yamujyana aho agiye kujya ndetse n'inyuma hari abandi bamotari bari mu muhanda, barimo bajya mu byerekezo byabo.

Umuntu utwaye ikinyabiziga cy'amapine abiri aricyo moto ndetse arimo arabagenda mu muhanda wa kaburimbo usa neza, usukuye, hirya no hino hari amazu y'ubucuruzi kandi haparitse n'amamodoka.

Umunyonzi urimo uragenda mu gahanda kahariwe abanyamaguru ndetse yikoreye amajerekani inyuma ku igare ryiwe kandi hirya haragaragara ibiti birebire n'abandi bagenzi b'abanyamaguru.

umunyonzi uri gusunika igare rye, utwayeho ibitoki bigera muri bine, birenga kandi hirya ye hari ikimodoka kinini giparitse, umuhanda hari ibindi binyabiziga bigendamo.

Ikinyabiziga cy'amapine abiri gitwaye umuntu ndetse mu muhanda wa kaburimbo usa neza ukeye, hirya haragaragara amazu ateye amarangi y'umweru asa nk'ay'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo ikinyabiziga kizwi nka moto ndetse itwawe n'umuntu, umuhanda urasa neza kandi urasukuye ndetse n'ikirere kirakeye hagaragaramo amapoto y'umuriro menshi.

Ikinyabiziga kizwi ku izina rya moto gitwara abagenzi, kirimo kiragenda muri kaburimbo y'umukara isukuye kandi isa neza ndetse ihetse umufuka w'umweru munini upakiyemo ibintu.

Abatwara ibinyabiziga by'amagare batwara imizigo itandukanye, umwe atwaye ibitoki ndetse undi atwaye umugenzi inyuma ye, aba batwara akenshi imizigo hirya no hino mu Rwanda.